Akazu ka Airtel ndetse karatukura. Gatangirwamo serivisi zo kugura simukadi ndetse hatangirwamo serivisi zo kubikuza n'ibindi.

Abagabo bahagaze bambaye amakasike ndetse ku ruhande rwabo hariyo n'abandi, ni isantere nziza ishyushye itangirwamo serivisi zigendanye no kubikuza kuri ajanse ya MTN.

Umu ajenti wambaye impuzankano y'umuhondo akaba ari kumwe n'umusore wambaye isaha ku kuboko n'umupira utukura, ari kumwigisha uburyo bwiza bwo kubikuza ndetse n'izindi serivisi MTN itanga.

Akazu k'umwagenti, gatangirwamo serivisi zo gutanga ama inite, kugura simukadi ndetse kandi ugasanga harimo haraganirirwamo n'abantu bagiye batandukanye. Hari ho icyapa cyanditseho ngo tubitayeho.

Umucuruzi w'amayinite na simukadi yambaye impuzankano y'akazi akora, ni umu ajenti wa Eyateri kandi ari kumwe na bagenzi be bari kugenda bamamaza imikorere yabo na serivisi batanga.

Abashinzwe gutanga serivisi zo kubitsa no kubikuza ku muyoboro wa MTN ndetse kandi bakaba bambaye impuzankano zisa z'udupira kandi bari kwakira abakiriya bari kuza babagana.

Umuntu w'umukobwa akaba ari mu iduka acuruje ibintu bigiye bitandukanye, harimo imbuto, harimo ibiribwa n'ibindi, imineke, avoka, amandazi, inkweto, amavuta n'ibindi.

Umugore wambaye indorerwamo ndetse akaba yegeranye n'undi bari mu bintu bigendanye no kuba barashoye ndetse bakaba bari mu makoperative yabo.

Abanyacyubahiro bambaye neza, harimo abagabo, abagore bari kwifotoza imbere aho ngaho ndetse kandi icyari kibahuje cyari kigendanye n'amakoperative no kongera ibikorwa by'amabanki.

Abantu benshi bari mu ishyamba biganjemo abagabo, abagore ndetse kandi harimo n'umuzungu, baje mu bigendanye no kongera amabanke n'amakoperative.

Abantu bateraniye ahantu hamwe harimo urubyiruko ndetse n'abantu bakuru, bafite ibyo kurya mu ntoki bimeze nk'ibigori cyangwa se imineke ndetse kandi bambaye imipira inasa, bari mu itete.

Abasore batanu b'intarumikwa b'abasore bapakurura imodoka igihe ishoye imyaka ndetse kandi akaba ari bo bikorera imifuka bayikura mu modoka bayishyira ahantu bayishoye imyaka.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abayobozi ndetse hakabamo n'abaturage. Bari kuganira ku byerekeye ubuhinzi ndetse n'amakoperative akenshi ko aba yibanze mu buhinzi.

Abantu benshi bari ahantu hamwe kandi hari n'umupolisi uhagaze inyuma yabo, hari umuntu wakoze ibintu bigendanye n'indabo, ndetse akaba ariho avuga imbere yabo icyo bimaze. Ni mu buryo bw'amakoperative byamufashije kuba yakora ibyo ngibyo.

lmbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu ihema rinini ,imbere yabo hari abagabo batatu bari kwifotoreza ku cyapa kimeze nka certificate, cyanditseho ngo icyemezo cy'ishimwe.

Inkoko nyinshi zororewe ahantu hamwe, zirimo n'umukobwa uri kuzigaburira, kandi akazikuramo n'amagi zateye. Ni mu gihe inkoko ziganjemo amasake n'inkokokazi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe harimo abari hafi y'imashini zidoda kandi ni urubyiruko, abagore ndetse harimo n'abagabo bari hafi ni ku kigo cy'amashuri.

Umurima mwiza munini urimo imbuto z'inanasi, izo nanasi zifite umumaro munini kuko zongera amaraso, zikongera amazi mu mubiri kugira ngo umuntu azirye bisaba kuzigura amafaranga.

Ahatangirwa ibinyobwa byo kunywa harimo nka za pirimusi, amafanta ndetse kandi n'ibindi, hari amacupa y'amapirimusi ahaparitse kandi agiye gutangwamo kugira ngo anyobwe.

lcyumba cyiza gishashagirana, kirimo intebe, ameza ,ibyorya ,ndetse kandi harimo n'amatara ari kwaka muri icyo cyumba ,gifite ubwiza butangaje, kuko no hasi hashashe ibintu byiza by'amatapi.

Ahatangirwa serivisi z'iminywere nka bare, hari intebe nziza zitukura n'ameza meza. Hari aho bubatse uduhema dutoduto. Hari abantu benshi baje kuhafata ibyo binywere.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo kunywa, kurya n'ibindi, gitatsemo intebe nziza, ameza kandi nacyo ni icyumba gisa neza kirimo ubwiza butangaje, kuko kirashashagirana harimo tapi nziza n'ibindi.

Iduka ricuruje ibintu bigiye bitandukanye, harimo umunzani upima ibintu biguzwe ndetse harimo: amakayi, amakaramu, amavuta, ubuto ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, imyenda nk'amoko y'imbere n'ibindi.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo umumama ucuruje utegereje abakiriya ngo baze guhaha, ni umubyeyi usa neza ufite inyinya kandi yambaye neza.

Abantu bane bacuruje mu isoko cyangwa se muri butike bakaba bacuruje imyaka itandukanye harimo: inyanya, amashu, amafi ndetse kandi n'ibindi.

Iduka ricuruza ibintu bye bitandukanye, harimo uducupa turimo amaparufe, amaparufe akaba afite umumaro munini wo kuba wahumuriza ahantu cyangwa se wakwihumuza wowe uyiguze.

lduka rinini ricuruje imyenda ,matela ,imikeka, amasabune, intebe, imyenda ,ndetse n'ibindi.. Rikaba ricururije ahantu mu muhanda ,ufite amabuye cyangwa se amapave hasi.

Amagi abitswe mu dukarito kandi yifashishwa mu kuyarya ndetse no kuyateka umureti, abitse neza ntabwo yakwangirika kandi afite uburyo abikwamo akaba yamara igihe kirekire aho abitse.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo umugore uri kwifata agafoto k'agaserifi, ni iduka ricuruje ibikapu, amasabune yo mu mashashi ndetse n'amavuta.

Iduka ricuruje ibintu bigiye bitandukanye harimo imboga ndetse amagi n'ibindi mu mboga harimo karoti intoryi amashu ndetse hejuru harimo n'indobo irimo amandazi.

Imodoka iparitse imbere y'ahantu bacururiza. Ni iduka rinini ricuruza ibigendanye n'imyambaro, inkweto n'ibindi. Imbere hamanitse imyenda icurujwe, amapantaro, imipira ndetse n'imyenda yo mu bwoko ubwo aribwo bwose.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye ririmo umugore wasutse imisatsi utegereje abakiriya ngo baze bagure, ni iduka ririmo amavuta, amasabune ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iduka ricuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo ibyo kunywa nka inaji, amavuta, amabasi ndetse amasafuriya n'ibindi, harimo umusore w'umwana uri kwegeranya ibintu abishyira ku murongo.

Umusore mwiza uri kwiseka cyane, akaba yambaye agapira gasa n'agahondo, ari guseka cyane yishimiye abakiriya bagiye kuza ndetse acuruje indobo, amavuta, salisa n'ibindi.

Abantu benshi bateraniye hamwe ndetse bicaye babyigana bari mu rusengero bari gusenga baritonze bari kwigishwa ijambo ry'imana harimo abafite za bibiliya bari gusoma.

Umugabo uri kwigisha ijambo ry'Imana ahantu hateraniye abantu benshi, ndetse hari ibyuma byifashishwa mu kuririmba, harimo bafure n'ibindi, ni abantu benshi bahicaye munsi y'ibiti.

Mu nzu y'Imana hateraniyemo abantu benshi: abagore, abagabo, abasore ndetse kandi n'abandi bagiye batandukanye. Bari imbere y'Imana kandi barahagaze bakurikiye iby'umwigisha ari kubabwira.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, bambaye impuzankano zisa, kandi bakoze indabo, ziri muriku zose, kandi barishimye cyane, bambaye imipira isa n'icyatsi kibisi.

Abapadiri bari imbere bariho barakora ku kimenyetso cy'umusaraba, kandi imbere yabo hari umusaraba uteretse ku meza, ndetse inyuma yabo hari abakirisitu.

Abantu benshi bambaye neza, bambaye nk'abanyacyubahiro ndetse harimo abagore bambaye amakanzu n'abagabo bambaye amakoti. Bakaba bahagaze ahantu hamwe, nk'abari kwifotoza.

Umugore udasanzwe wambaye neza ndetse akaba afite mikorofone ari uku kuvuga ku bigendanye n'ijambo ry'Imana, ari kwigisha ijambo ry'Imana ahantu mu rusengero.

Urusengero runini rwakiriye abantu baje gusenga, bari mu bigendanye no kwigisha, umuzungu arikwigisha undi agasemura mu rurimi ari kuvugamo.

Umuganga uri kwigisha umwana wahuye n'ubumuga ,uburyo bwo kugendera ku mbago ,ndetse kandi ari kumufasha kugira ngo abe yareka kwicara gusa, kuko bituma ahura n'izindi mbogamizi.

Abanyeshuri ndetse n'abarimu bahagaze nk'abari kwifotoza, bari kwifotoreza munsi y'inyubako nini kandi nziza, ni abantu benshi biganjemo urubyiruko ndetse kandi bakaba n'abana, bari kumwe n'abarimu babo hagati yabo.

Imbaga y'abaturage yiganjemo urubyiruko, abagabo ndetse n'abakobwa. Ariko bambaye udupfukamunwa ku minwa yabo. Kandi bari mu rusengero, umwe ari guhabwa serivisi za telefone mu rusengero ngo abe yatura.

Icyumba gitatse neza kiri ho ameza ariho indabo kandi kikagira ibitambaro byiza cyane ndetse hejuru hari ifoto n'urwibutso rwa bikira Mariya.

Abantu bakurikiye ijambo ry'Imana, ni imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe ndetse bari kwiga ijambo ry'Imana, ryiganjemo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko rwaje aho ngaho.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteli akenshi haba hari na pisine y'ubwogero. Hakaba hari amazi menshi ndetse n'intebe zo kwicaraho igihe hari umaze kurangiza koga cyangwa uwitegura kujyayo.

Icyumba gishashe neza gifite imyiteguro myiza kirateguye neza gifite ameza asa neza ndetse n'intebe. Gifite ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amatara ndetse n'ibindi byiza.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteli hari amazu meza inyubako nziza kandi zisukuye, hafi yazo hari amazi ndetse n'imitaka abavuye muri ayo mazi bahita bajyamo kandi hafi y'ayo mazi hari ibyatsi byiza bitohagiye.

Icyumba gisa neza kirimo uburiri bwiza ndetse kikaba gifite n'inzugi nziza zifunguka. Kikaba gifite kandi na douche bogeramo isa neza.

Abantu benshi bahagaze ahantu muri hoteli, ni mu cyumba kinini ni sale nini itangwamo uburyo ki bagiye kuba bagira amahugurwa ndetse kandi bagiye kuba barara mo aho.

Umusozi munini uteweho ibiti ndetse n'ibindi bitandukanye, uri hafi y'ahantu hari amazi kandi hakaba hari n'amazu n'amahoteri atangirwamo serivisi zo kurya ndetse n'ibindi.

lnyubako ndende ndetse ikaba iparitseho imodoka hasi ,inyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa ,kandi ikaba itangirwamo service z'amahoteli.

Icyumba kimeze neza gisa neza, gisa n'igishashe gishashagirana kikaba gifite uburiri bwiza, ndetse n'imisego myiza yo kwisegura. Ndetse kandi gifite n'uburyamiro busa neza, gifite na supanete hejuru kugirango imibu itarya umuntu ukirararamo.

Ahantu heza ndetse n'icyumba gisa neza gifite ameza ateguye ibyo urya n'ibyo kunywa, hariho amasahani ndetse n'amacupa y'inzoga, ni icyumba gitangirwamo amaserivisi yo muri hoteli.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bw'igorofa kandi ikaba itangirwamo serivisi zo kurya kuko ni serivisi z'amahoteli, haba kurya, kunywa ndetse no koga n'ibindi bikorerwa muri hoteli.

Ahatangirwa serivisi z'amahoteli nko kurya kunywa ndetse no kuba bajya mu mazi bakoga, hatangirwa serivisi ni heza ndetse hari ubusitani bwiza, amazi meza, intebe nziza n'ibindi byiza.

Icyumba cyiza cyane gitangirwamo serivisi z'amahoteri kiba gifite uburiri bwiza bushashe neza kandi kikaba ari icyumba kibitse ameza, intebe zo kwicaraho, icyumba cy'ubwogero n'ibindi byiza bibonekamo.

Inyubako ndende ifite ubwiza butangaje, ifite ibiti hafi yayo byiza cyane kandi ifite amabati y'umutuku ni ahatangirwa serivisi z'amahoteri, ubwo ni imirire ndetse n'iminywere n'ibindi.

Icyumba cyiza kirimo uburiri, televiziyo, intebe nziza ndetse n'ibindi ni nka dushe y'ubwogero, kandi harimo n'amatara yaka, ni icyumba gitangirwamo serivisi z'amahoteli.

Inyubako ndende ifite uburyo bwo gukurura abakerarugendo, kuko ifite amazi hasi nka za pissine zikoreshwa mu koga, ndetse hari n'udutaka dupfubika abantu benshi nk'izuba kugira ngo badahura n'ibibazo bigendanye n'ubushyuhe ndetse n'ubukonje.

Isoko rinini rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imifuka, ibikombe, amasahane ndetse n'amabasi kandi imifuka iri mu dutanda twubakiye.

Isoko ryiganjemo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amasabune, amakayi, ifu, umuceri ndetse injanga n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye umucuruzi acuruje muri iryo soko.

Urujya n'uruza rw'abaturage higanjemo abagore bahetse abana ndetse n'abagabo. Bahuriye mu isoko, iryo soko rikaba ricuruza ibintu bigendanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyampeke, harimo ibijumba, imyumbati, ndetse n'ibindi.

Umugore ukuze cyane wicaye mu isoko, acuruje ibyiganjemo nk'imboga, harimo karoti, inoryi, inyanya, ndetse kandi na pavuro ari kubigera kugira ngo aze kureba igiciro aza kubitangiraho.

Abantu biganjemo urubyiruko rw'abana kandi bakaba bari hafi y'ahantu habereye isoko. Ni isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, imyenda n'amajipo, amapantaro, ibikapu n'ibindi.

Ihene ebyiri zaziritswe hamwe ku kiziriko, kugira ngo zijyanwe gushorwa zibonweho amafaranga yo kuba umuntu yakwifashisha mu bibazo, umuntu agenda ahura na byo.

Imashini idoda imyenda, amapantaro ndetse n'ingofero, kandi ikaba idoda imyenda iturutse mu bitenge, ndetse kandi ikaba yifashishwa n'umudozi wabyize.

Ihene ebyiri z'umukara kandi ziziritse ziriryamiye ziryamye ahantu ziziritse kuko ari ho ziri kurisha kandi n'ihene zishashagirana zisa neza zihaze.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, harimo inoryi, pavuro, inyanya, amashu, imboga ndetse n'ibitunguru, harimo kandi abacuruzi bategereje abakiriya.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abadozi badoda ibigendanye n'ibishabayogwe, ibitenge ndetse n'ibindi, aha kandi harimo abakiriya baje gufata ibyo bitenge byabo.

Icyumba cyiza gishashemo intebe ndetse kandi kikaba ari icyumba gitangirwamo serivisi zo kurya, ikizwi cyane cyane nka resitora, itanga serivisi nziza kuko hari icyapa cyanditseho ngo murakaza neza muriyisanga.

Icyumba gisa neza gitangirwamo serivisi zo gutanga ibyokurya n'ibyo kunywa, kandi ni cyumba giteguye neza, gifite intebe, ameza byabugenewe ndetse bikaba bifite n'ibitambaro byiza neza.

Ahantu hatangirwa serivisi z'amaresitora kurya ndetse hari intebe hari ameza hari ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, kandi hari abahafatira ifunguro rya saa sita, cyangwa se bagafata amakarita ari butume bafata ibyo kurya.

Umugabo munini w'igikara wambaye ishati, ingofero ndetse n'ipantaro ari mu muhanda ari kunyonga igare ahetse ibintu ku igare ndetse ku ruhande rwe hari umumotari uri kuri moto akaba ahetse umugenzi we.

Umukobwa mwiza ndetse uri kuri moto, akaba ariwe uyitwara, yambaye umwenda w'akazi ndetse yambaye n'ikasike, afashe kuri moto agiye kuyitwara.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga, harimo n'abamotari bakorera amafaranga mu buryo bwa moto, kandi hafi aho ngaho hari ubusitani bwiza butatsemo ibyatsi byiza ndetse n'ibiti.

Umugabo ufite moto nziza nshyashya ndetse kandi akaba yambaye ikasike ndetse yambaye n'umwambaro w'akazi w'ikimotari akaba yiteguye gutwara moto nta nkomyi nta kibazo aho ari mu kazi.

Umugabo uri kuri moto, akaba ari kugendera mu muhanda w'amabuye kandi agiye gushaka amafaranga nkuko ari kuri moto ashobora kuba ari umumotari.

Umuhanda ukeye usa neza kandi ku ruhande hariyo amazu menshi n'ubusitani bwinshi bwiza bw'icyatsi kibisi. Kandi umumotari atwaye umukobwa kuri moto nziza zimwe zikoreshwa n'amashanyarazi.

Umusore uri mu muhanda ushoreye igare ari kwitegereza ku ruhande rwe ahetse igikapu yambaye agapira ndetse n'itiriningi isa n'umukara ndetse inyuma ye hari abandi barimo bagenda mu muhanda n'imodoka inyuma ye.

Umuhanda munini w'amabuye kandi unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ni hafi y'ahantu hari amazu acuruza ndetse ni mu gasantere kanyurwamo ibinyabiziga byinshi, kandi hacururizwa ibikoresho bitandukanye.

Umuhanda uri kunyurwamo na moto kandi ikaba ihetse umuntu n abantu babiri bahikanyemye imwe yambaye cask itukura ndicyatsi kibisi kandi kuruhande rwaho hanyumamuho uhanyuramo ibirenge.

Abamotari bari gutwara abagenzi mu muhanda. Bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, si bo gusa kandi hari n'abashoreye amagare mu muhanda. Hari n'abari kugenda mu muhanda n'ibirenge ndetse nk'ikimenyetso cy'uko umuhanda ukoreshwamo n'ingeri z'abantu bagiye batandukana.